Mu cyumba cyicawemo n'abana batoya, aho bicaye ku mukeka ndetse buri wese akaba afite igikombe ari kunyweramo.

Mu nzu itangirwamo ubumenyi, hicaye abanyeshuri bato bose bambaye uniforume, imbere yabo ku meza hakaba hari udukoresho turi kubafasha gukina.

Imbere y'inzu aharambuye umukeka, ukaba wicayeho abana benshi, aho bose bafite ibikombe mu ntoki, bari kunywa.

Icyumba cy'amashuri gitangirwamo uburezi ku bana b'incuke, hakaba hari umwarimu uhagaze imbere yabo aho abana bicaye.

Mu ishuri, ahari abana bane. Bose bakaba bari kwandika ku kibaho bakoresheje ingwa. Akaba ari abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe.

Mu cyumba cy'ishuri ahicaye abana barimo abahungu, ndetse n'abakobwa bakaba bicaye ku ruziga, bakaba bicaranye n'umwarimu wabo, akaba ari kubasomera igitabo.

Mu rugo rw'umuntu ahari abantu batari benshi, harimo umugabo umwe ndetse n'abagore n'abana, abana bakaba bambaye iniforume bigaragara ko bavuye ku ishuri.

Imbere y'icyumba cy'amashuri, ahari abana bato bicaye mu murongo w'uruziga, bose bakaba bambaye iniforume zisa.

Mu muhanda w'igitaka ahari guca abana bato b'abahungu. Iruhande rw'umuhanda hakaba hagiye hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Imbere y'umuryango w'inzu, ahari abana bambaye imyenda y'ishuri, bakaba bari gukina ndetse imbere y'iyo nzu, ikaba ari utwatsi.

Icyumba cy'ishuri ahari igishushanyo gifasha abana bato kwiga, aho kuri icyo gishushanyo hariho; baro, intebe, igiti, kereyo, igitabo ndetse n'irati.

Mu cyumba cy'ishuri ahari abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, aho harimo umunyeshuri w'umuhungu wambaye uniform ufite isahane y'ubururu, hakaba kandi harimo intebe zicarwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Mu cyumba k'ishuri ahari ikibaho cyanditseho imibare itandukanye. Ikaba yandikishije ingwa y'umweru, aho hejuru yayo hari amagambo yandikishije ingwa y'umuhondo.

Ibyumba by'ikigo cy'amashuri, aho munsi yabyo hari urutoki kandi imbere yabyo hakaba hari ubwiherero bukoreshwa n'abanyeshuri.

Mu cyumba cy'ishuri ahari intebe ebyiri zicarwaho n'abanyeshuri, ku ruhande hakaba hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, muri icyo cyumba kandi hakaba hateretsemo ijerekani.

Ku kigo cy'amashuri, ahari ibmba by'amashuri, imbere yabyo hari ubusitani burimo utwatsi duto ndetse n'indabo zitandukanye.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi, aho hari abana ndetse n'umwarimu, hakaba kandi hari utumudasobwa duto two mu ibara ry'icyatsi n'iry'umweru, aho umwarimu ari kwereka abanyeshuri uko dukoreshwa.

Ikigo cy'amashuri ahari abanyeshuri, buri wese ateruye ingemwe y'igiti, bakaba kandi bari kumwe n'abayobozi babo.

Mu cyumba cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi, ahari intebe nyinshi abanyeshuri bicaraho ndetse kandi hakaba hari ikibaho.

Mu kigo cy'ishuri ahari abana b'abanyeshuri bicaye ku ntebe, aho buri wese imbere ye hari mudasobwa nto ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Ku ishuri, ahari abanyeshuri. Bikaba bigeze mu masaha yo gufata amafunguro, aho bagiye bafite udusafuriya twifashishwa mu gutwara amafunguro.

Icyumba kimwe mu biba ku ishuri. Kikaba ari icyumba gikorerwamo n'abarimu, kikaba gifite umuryango w'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahure, akoze mu byuma.

Ikigo cy'amashuri, ahari abana b'ingeri zitandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bakaba bahagaze iruhande rw'ibiraro byororerwamo inkwavu.

Ku irembo rigari, ryinjira mu kigo cy'amashuri abanza. Hakaba hari abana bato, bahagaze b'abanyeshuri bambaye iniforume. Ndetse uwo muryango ukaba ukinze.

Mu kigo cy'amashuri imbere y'ibyumba by'amashuri, hakaba hahagaze abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa kandi hakaba hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Ku kigo cy'amashuri ahari ibyumba byinshi by'amashuri. Bikaba bifunguye aho hanze yabyo hari abanyeshuri b'ingeri zitandukanye bari kuhagendagenda.

Ahari ibyumba by'amashuri, aho byose bifunze, naho imbere yabyo hakaba hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse hari n'ikibuga cyo gukiniramo.

Ku kigo cy'amashuri, ahari abana babiri b'abakobwa bambaye iniforume zisa z'ubururu, bakaba bari kuvoma amazi bifashishije ikigega gihari.

Mu cyumba cy'ishuri ahari ikibaho kiriho imibare yandikishije ingwa y'umweru ndetse n'andi magambo yandikishije ingwa y'ibara ry'umutuku.

Ku kigo cy'amashuri ahari urugo rwubakishije ibiti ndetse n'imiyenzi. Kandi muri icyo kigo hakaba harimo ibyumba by'amashuri byinshi.

Ku kigo cy'amashuri, ahari abanyeshuri bambaye uniform zisa, bamwe muri bo babiri b'abahungu bakaba bateruye ibiryo mu kabase gasa ubururu.

Muri sitade ahari imodoka eshatu zaje gutwara abanyeshuri zibajyana mu byerekezo bitandukanye bitewe n'aho bagiye kwiga.

Urugi rugari rwinjira mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Birambo, hakaba hahagaze abana b'abahungu biga n'ubundi muri icyo kigo

Mu muhanda rwagati, hari umunyeshuri wambaye iniforume akaba atwaye igare, hakurya y'umuhanda kandi hakaba hari umugore uri kugenda muri uwo muhanda.

Mu irembo rigari ry'ikigo cy'amashuri cya Kigoma, akaba hafunze aho riteye amarangi ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Mu cyumba kigari cyo ku ishuri kiri kuberamo inama yahuje abanyeshuri ndetse n'abayobozi, aho umwe muri bo yahagurutse ari kubaza, ndetse umuyobozi yiteguye kumusubiza.

Ku kigo cy'amashuri ahagiye kubera umupira, ukaba ugiye guhuza abana b'abahungu, aho ikipe imwe yambaye umutuku naho indi yambaye umweru.

Mu cyumba gitangirwamo ubumenyi mu bijyanye no kudoda. Hakaba hari umunyeshuri wicaye uri kudoda ndetse hari n'imashini zifashishwa mu kudoda.

Ku nzu yubakishije amatafari ahiye, aho imbere yayo hari icyapa kiranga ko ugeze ku kigo cy'amashuri giherereye Butare.

Ku kigo cy'ishuri gitanga ubumenyingiro cya EAR kiri i Kageyo. Hakaba hafunguye ndetse mbere hari ibyumba bitandukanye by'amashuri.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, aho hanze yarwo ku ruhande rurebana n'umuhanda teye indabo, na ho imbere y'urwo ruzitiro kaba hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Inzu ifite imiryango myinshi. Imbere yayo hari umuhanda uri kunyuramo imodoka ndetse kandi hari ubusitani bunateyemo ibiti.

Mu cyumba cy'ishuri ahari ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha ndetse no kwiga. Harimo nk'intebe, amakayi ndetse n'ikibaho.

Mu cyumba ahari imeza ziteretseho mudasobwa nyinshi ndetse izo mudasobwa zose zikaba zicanye bigaragara ko ziri gukoreshwa.

Urugi rugari rwerekeza ku kigo cy'amashuri, hakaba hafunguye aho imbere hari abanyeshuri bari kugenda mu kigo ndetse hari n'imodoka.

Mu cyumba gitangirwamo ubumenyi, Ahari abanyeshuri ndetse n'abarimu bose bicaye. Hakaba harimo umunyeshuri umwe wicaye mu kagare.

Mu muhanda nyabagendwa ahari abana batatu b'abakobwa, bambaye iniforume bahetse ibikapu bagiye ku ishuri. Iruhande rw'uyu muhanda hakaba hari ibiti, ndetse n'ubusitani n'inzu zigiye zitandukanye.

Ku kigo cy'ishuri aho abana bafatira amafunguro. Bose baricaye, bambaye iniforume ndetse buri wese afite isahani imbere ye ari kurya.

Inzu nini ya etaje yigishirizwamo. Hanze yayo hakaba hari abanyeshuri bahahagaze ndetse hari n'imirima itagize ikintu kiyiteyemo.

Ku kigo cy'amashuri ahari kugendagenda abana b'ingeri zitandukanye, bambaye iniforume y'ishuri, umwe muri bo akaba ateruye isafuriya irimo ibishyimbo.

Mu kigo cy'amashuri ahari kubera misa iyobowe na padiri ndetse na masera. Abanyeshuri bo muri icyo kigo bakaba bicaye bari gukurikirana misa.

Ku kigo cy'amashuri ahari gutangirwa ikiganiro kijyanye no kwirinda ndetse no kurwanya icyorezo cya SIDA. Iki gikorwa kikaba kitabiriwe n'abanyeshuri biga kuri iki kigo ndetse imbere hakaba hari umudamu uri gutambutsa icyo kiganiro.

Ahateraniye abanyeshuri b'ingeri zitandukanye barimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bakaba bambaye uniform aho imbere yabo hahagaze abayobozi babo.

Mu cyumba cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi, hakaba hicaye abanyeshuri b'abahungu naba bakobwa, inyuma hakaba hari indobo ubikwamo amazi iri m'ibara ry'ubururu.

Mu cyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cyanditseho amagambo yandikishije ingwa zitandukanye. Harimo nk'umweru, umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo.

Mu cyumba gitangirwamo inama, ahicaye abanyeshuri benshi bitabiriye inama, imbere hakaba hicaye abayobozi ndetse kandi hari umuyobozi umwe uhagaze uri gutanga ijambo.

Mu cyumba cyo ku ishuri gisomerwamo ibitabo, abanyeshuri benshi bicaye aho imbere yabo ku meza hateretse ibitabo bari gusoma, iruhande kandi hari kabati karimo ibindi bitabo bibitse.

Mu nzu yo kubamo ahari ibikoresho, byifashishwa n'abayibamo, harimo nk'inkweto, intebe, amasahane ndetse n'ibindi, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Mu cyumba kiri gutangirwamo inama, abayitabiriye bose bakaba bicaye aho buri wese aho yicaye imbere ye hateretse icupa cy'amazi.

Mu cyumba kirarwamo n'abanyeshuri. Ahari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu bahaba ndetse hakaba hari n'uburiri busashe.

Munzu ubikwamo ibitabo, hakaba hari utubati turimo ibitabo by'amabara agiye atandukanye bikaba bibitse neza ku buryo bitagwa.

Mu nzu nini ikorerwamo amasengesho, ikaba yitabiriwe n'abantu benshi biganjemo urubyiruko. Aho imbere hari korali iri kuririmba.

Mu nzu isomerwamo ibitabo, ahari utubati turimo ibitabo byinshi bitandukanye ndetse hakaba hari intebe n'ameza, aho abaje gusoma ibitabo bicara.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, ahari abanyeshuri bicaye, aho imbere ya buri wese hari imeza, iteretseho agakoresho kifashishwa mu bushakashatsi.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama, abitabiriye iyo nama bakaba bicaye, aho imbere hari umukobwa uri gutanga ikiganiro ndetse hari n'undi wicaye.

Etage nini yo kubamo, aho inyuma yayo hari ahantu banika imyenda, ndetse hanitse imyenda myinshi, ndetse inyuma y'igipangu haba hari indabo.

Ku kigo cy'amashuri ya kaminuza cya Tumba, hakaba hahagaze abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo urubyiruko ndetse kandi hakaba hari n'imodoka.

Ikigega kirekire cyagenewe kubikwamo amazi. Hejuru yacyo hakaba hari icyapa cyandikishijwemo n'amagambo y'ubururu, agaragaza ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda.

Mu cyumba cy'inama ahari kubera inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, aho abayitabiriye bicaye kandi imbere ya buri wese hakaba hari mudasobwa, imbere yabo kandi hari umugabo uhahagaze ubayoboye.

Ku nyubako ndende ya etaje, imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse hateyemo n'ibiti.

Imodoka itwara abagenzi ihagaze, ikaba nta muntu uyirimo, aho inyuma kuri yo handitseho ko ari iyo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Mu cyumba kiberamo ubushakashatsi. Hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa ndetse harimo n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, hakaba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora ubushakashatsi, harimo udutajeri, ndetse n'ibindi.

Mu cyumba cyo kwigiramo, hari intebe nyinshi, ndetse imbere ya buri ntebe hakaba hari mudasobwa. Imbere muri icyo cyumba hari intebe, yicarwamo n'umuntu uri kwigisha ndetse n'ikibaho.

Ahicaye abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko, bakaba bari gufata ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Inyubako ya etage nini, ifite imiryango myinshi, imbere yayo hakaba hari utwuma two kwanikaho imyenda ndetse n'indabo.

Muri sale nini, ahateraniye abantu higanjemo urubyiruko baje gusenga, imbere hakaba hari korari yambaye iniforume, aho itambutsa ubutumwa ikoresheje imbyino.

Mu cyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga. Harimo intebe, ameza, za mudasobwa ndetse n'ibindi, byifashishwa n'abanyeshuri. Aho imbere muri iryo shuri hari ikibaho.